Akabari rero nako kakaryoshya inzoga mu buryo bukomeye cyane noneho rero si iyo uri kuzisangira n'abandi ziraryoha kandi ukumva nawe urizihiwe cyane bikomeye.

Aya mafi ko aryoshye cyane kuba umuntu yayarya! Asa n'aho akawushije cyane bikomeye! Mbega ngo araryoha cyane we! Bikomeye.

Abagabo baba banezerewe bafata fanta banywa, banywa fanta ku buryo ibintu biba bimeze neza. Mu rwego rwo kuganira barushaho gusabana, bifatira ikinyobwa cya fanta.

Inzu y'urunwe urunywero abantu babonamo ibinyobwa bakabonamo n'ibiribwa, abantu bakunze gutembereramo bagiye kurya cyangwa se kunwa.

Umugore urimo gukoresha icyuma kuri banki, agiye kubikuza amafaranga mu rwego rwo kurushaho, kugira ngo bayakoreshe.

Inzu y'ubucuruzi, abantu baba bagomba gukuramo ibintu byose bitandukanye, ku buryo buri wese icyo akeneye yaja kurebamo, agahita akibona.

Isoko naryo rwose usanga umuntu aba atangiye gutandika ibintu byose aba ateganya gucuruza cyane nk'izi ndobo, imbegeti, imikoropesho n'ibikapu. Usanga biba bikenenwena n'abantu benshi cyane.

Iyi butike abantu baba babakoresha bari kurushaho kugira ngo banoze neza ibicuruzwa ,imifuka, imiceri, ibinyampeke bitandukanye ,yewe n'ibikapu abantu baba bicaye iruhande rwabyo.

Imodoka na purake yayo rwose usanga... iyi purado iba imeze neza cyane nk'abantu bamaze kuzigura. Ni bimwe mu iterambereabantu bakemera kugenda.

Abaguzi baba bagenda mu iguriro cyane nko mu isoko babaza ibyo bagomba kugura, mu rwego rwo kurushaho gukemura ibibazo byose baba bafite. Niyo mpamvu baba begereye iguriro cyangwa se isoko mu rwo kugira ngo barusheho kugura.

Amazu manini y’ubucuruzi, abantu bifashisha barimo gucuruza. Iruhande harimo amapikipiki, amamodoka, n’abagenzi bose bari hafi aho ngaho

Iyi Hoteli ya Virunga usanga yakira abakiriya benshi cyane. Batunganya amafunguro atandukanye, ibinyobwa bitandukanye yewe bakagiramo n'amacumbi y'abantu bagomba kuraramo cyane.

Mu minsi iri imbere igihugu cyacu ni ukunguku kiraba kimeze gifite isuku nk'aya mazu, uko ubona amze, agaragaza isuku cyane n'amakaroni, amakaroni rwose usanga agaragaza ibyiza n'isuku.

Inzu y'ubucuruzi yubakiwe kugira ngo abantu bacururizemo yinjirize nyirayo amafaranga, imbere hakaba hariho ababyeyi, abagore, abagabo ndetse n'umutaka wa MTN bifashisha ugaragaza icyo abantu.

Salo yo kogosheramo abantu b'abakoresha basukura imisatsi, ndetse banatunganya imisatsi yabo. Umwana rero aba ahicaye asohoka mu rwego rwo kurushaho gute...

Hoteri irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'ibinyobwa bya sikoro, ikaba ifite uruzitiro rugezweho.

Urubohero na rwo rusa naho rutunganye cyane rwose. Ruba rukoranye ubuhanga bukomeye, ku buryo bahakorera ibyibo bikomeye n'ibisobane cyane, cyane cyane abagore bakunda kwifashisha bagemuye bagenzi babo.

Iguriro rwose, umudamu aba yicaye, ategereje abakiriya, kandi anatunganya akazi ke neza. Ibishyimbo bitandukanye, usanga rwose ibishyimbo bye biryoshye cyane.

Isoko ririmo: ibihumyo, tungurusumu, amavuta, ubucuruzi imiteja, baba bategereje abantu ko baza kugura mu urwego rwo kugira ngo batunganye ibyo basabwa gutunganya .